Agatanda kubakishijwe ibiti bine bishinze, hejuru hatambitseho imitambiko, hananitseho amasahani cyangwa se ibyombo byifashishwa mu kugabura ibyokurya.

Abaganga bateraniye hamwe bari gufata ifoto bose bambaye imyenda y'akazi uretse umwe muri bo wambaye imyenda itukura itari iy'akazi abandi ibyo bambaye biri mu ibara ry'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe. Aho bari hashinze ibendera, ndetse hari n'imbangukiragutabara. Abo bantu biganjemo abagabo n'abagore. Hari n'umudaso bubatse ibirugu. Imodoka zihari ni ebyiri.

Abaganga barishimye bari gukoma amashyi, bose bambaye imyenda y'akazi isa, bambaye n'ikarita y'akazi mu ijosi ryabo, inyuma yabo hari inyubako y'ikigo nderabuzima cya Mayange, uri kubakoresha inama ni umuzungu.

Umubyeyi atera umwana imbere ye hari umufashamyumvire ari kugaburira uwo umwana we indyo yuzuye, iruhande rwe hari abandi bamama nabo baje kugaburira abana babo indyo yuzuye.

Umugore ari kuvoma amazi, ari kuvomera amazi mu ndobo yunamye. Abandi bagore babiri bari inyuma ye, bari kumupompera kugirango ngo amazi aze. Igipompero kiri kuvamo amazi menshi cyane.

Abayobozi bari mu nama, bose bicaye ku ntebe zegamirwa, bose bambaye udupfukamunwa, bamwe ni abagabo abandi ni abagore, inyuma yabo hari urukuta, rusize irangi ry'ubururu.

Umugore arunamye ari kuvoma, ateze indobo ku mugezi, abandi bagore babiri bari inyuma ye bari kumupompera, hari kuza amazi menshi cyane.

Umubyeyi yicaye hasi arambije amaguru ye ateruye umwana umwe mu biganza undi amwicaye iruhande, imbere ye hari inkoko isutseho imyaka hari kandi mironko nayo iriho imyaka.

Umunsi mpuzamahanga ku isi hose wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, abantu barateranye bari mu birori byo kwizihiza uwo munsi, bamwe bicaye ku ntebe, abandi bateze amatwi bumva ibyo ababicaye imbere bababwira.

Abagore batatu bose bafite ibibando mu ntoki umwe muri bo afite umwana bose kandi batesa ibitambaro mu mutwe umwe ari kureba ku ruhande undi na we arareba kurundi ruhandi ruhande undi we arareba imbere.

Abantu bari mu nama abagore batatu bicaye ku meza amwe buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye, umugabo umwe niwe ubahagaze imbere arikoresha inama, yambaye umupira w'umweru afite isakazamajwi mu ntoki ze, inyuma ye hari igipapuro kinini kiriho amagambo asomeka neza.

Umugore munini ufite ibisuko ku mutwe, yambaye amadarubindi, yambaye n'ibishanete ku kaboko ke, yambaye ikarita y'akazi mu ijosi, ayifatishije ukuboko kwe ari kuyerekana ndetse ari no kumwenyura.

Mu bitaro muganga ari kwita ku murwayi, muganga yambaye ga mu ntoki afite urushinge mu ntoki, umurwayi yegamiye ku gitanda cye imbere ye hari ibikoresho biri gukoreshwa mu kumwitaho, muganga yambaye agapfukamunwa, aka agapfukamunwa kamufasha gutuma umwuka we udahura n'uwumurwayi.

Umusaza n'umukecuru barizihiwe, bose bite imyitero, umwe yitera umwitero w'umweru, umusaza we yiteye umwitero w'umweru ariko uvanzemo ibara ry'umukara ndetse n'iry'umutuku bari mu birori bameze neza.

Abasaza babiri bari mu birori, bose barizihiwe kandi bitandiye imyitero, umwe yiteye umwitero w'umweru, undi yiteye umwitero w'umukara barasa neza.

Abantu barishimye cyane bazamuye amaboko bari kureba umuntu uri kubafotora, biganjemo abagore benshi, abagabo bo ni batatu gusa bahagaze imbere y'imyaka baranezerewe.

Umugabo n'umugore bari gusangirira ku meza amwe, bari kurebana mu maso bakamwenyura, bari kurya ibyo kurya byiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, imbere yabo hari igikombe cy'ikirahure ndetse kandi bose bambaye amadarubindi.

Itsinda ry'abantu bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri, bose bambaye amashati y'imyeru ,buri wese afite ipaki y'udukingirizo, utwo dukingirizo bari kutwamamaza.

Umuryango mpuzamahanga wita ku bidukikije umunsi w'ibidukikije ku isi hose tariki makumyabiri n' esheshatu z'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri makumyabiri na kane .

Abantu benshi bateranye buri wese agiye afite ikadere mu ntoki ze, imbere yabo hari ameza atatseho igitambaro cy'ibara ry'umweru, inyuma yabo naho ni uko hari igipapuro kinini cyanditseho amagambo ndetse kiri mu ibara ry'umweru, bari mu nzu nziza.

ikirango cya minisiteri y'ubuzima, kiri mu ibara ry'ubururu, kirimo amagambo ngo "repubulika y'u Rwanda," kigizwe n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Inzu nini irabagirana mo imbere, irimo ibikoresho bitandukanye, ameza ndetse n'intebe, harimo amatara manini cyane yaka ibara ry'umweru. Amadirishya na yo aranyuramo umucyo.

Ikigo nderabuzima cya Kigina gifite amarembo manini cyane, ayo marembo arafunguye handitseho amagambo ari mu nyuguti nini, imbere yacyo hahagaze umugore uhetse umwana.

Umuganga ari mu bitaro yambaye umwenda w'akazi ndetse yambaye n'agapfukamunwa, yambaye ga mu biganza bye, afite ibyo ari gupima mu cyuma cyabugenewe, ibitaro arimo birimo ibikoresho byinshi.

Foromasi ya Mediya soro Kanombe ifite umuryango munini mu imbere harimo abakiriya iteye amarangi meza ifite n'ibirahure byiza bigaragara neza hariho icyapa kinini cyanditseho foromasi ya Mediyasoro Kanombe.

Abantu bakoze umurongo bagiye kwaka serivisi barakurikiranye umwu umwe ntawe unyura ku wundi, ufite ubumuga nawe ari ku ruhande aho atabasha guhutazwa n'uwo ari we wese, ari ku ruhande rwe kugira ngo hatagira umuhungabanya bose bagiye kwaka serivisi.

Mo imbere mu bitaro ni ibitaro byubatse neza cyane hatemo irangi ry'umweru ahantu hose harimo amatara manini cyane harimo ibikoresho bitandukanye ibitanda biriho matora ziri mu ibara ry'ubururu ibitanda byiza bifite amapine.

Inyubako nini iteye irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'ubururu ndetse ifite amadirishya y'icyatsi kibisi, ku ruhande ifite ikigega gitega amazi, iri mu busitani bwiza.

Abantu babiri b'abagabo, barafatanye. Umwe yambaye isengeri, undi yambaye ijire y'akazi. Uwambaye isengeri afite icyapa cyanditseho imibare ku gatuza ke, gatanu, gatatu, zaru, kabiri. Bose barogoshe.

Gukina imikino y'amahoro irinda impanuka, abagabo batatu bambaye amapantaro y'umuhondo bari gukirana bambaye ama kasike ku mitwe yabo.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, amacunga, imineke, kokombure. Zikorwamo umutobe w'imbuto. Zishyirwa mu mashini, zigakurwamo umutobe abantu banywa.

Umuntu arambuye ukuboko kwakomeretse, ashyizeho igipfuko cy'ubururu, afatishije ukuboko kumwe ukundi kuboko ndetse yahinnye umupira.

Umugabo munini ushyitse afite amatuza manini ahinnye akaboko ashyize ikiganza cye mu gatuza ku kaboko ke hacoyeho amabara atandukanye ibara ry'ubururu n'iry'umutuku.

Ikirangantego kigizwe n'uruziga rw'ibara ry'umukara, mu imbere hakaba harimo izuba riri mu ibara ry'umuhondo n'abagabo babiri bahanganye, umwe yambaye imyenda y'ubururu undi yambaye imyenda y'umweru, hasi hari amagambo yanditse munsi y'urwo ruziga.

Ibikoresho bitandukanye harimo korogati, ga, uducupa tw'imiti ndetse n'udupaki tw'imiti, byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse no mu gukora isuku muri rusange.

Ibyatsi by'amoko atandukanye, bifite ibara ry'icyatsi kibisi, bimwe bifite amababi maremare, ibindi bifite amagufi, byifashishwa mu gukora imiti itandukanye.

Ubwoko butandukanye bwindabo indabo; ziri mu mabara agiye atandukanye, yiganjemo umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi, ziteye mutaka bwiza, ziratoshye cyane, kugirango zikure bisaba ko zibona amazi zigahora zitohagiye.

Igiti cy'umuravumba kiriho amababi, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi. Ayo mababi yifashishwa mu miti igiye itandukanye.

Indabyo nziza cyane zifite ibara ry'icyatsi kibisi ziteye mu mavase kugira ngo zikure ziravomererwa zisukwaho amazi.

Indabyo z'amabara atandukanye ndetse n'imbuto ku ruhande, indabyo zifite amabara y'icyatsi kibisi, n'imbuto nazo zifite amabara y'icyatsi kibisi, imbuto zisutse hasi mugihe indabyo zo ziteye.

Amakarito mato abiri, amacupa abiri ndetse n'ishashi imwe, amakarito ari mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, amacupa yo ari mu ibara ry'umuhondo.

Ikarito igaragaza gahunda y'imirire iboneye, umuntu akagira ubuzima bwiza. Hariho umugore usa neza, yambaye imyenda y'umukara.

Amakarito atatu yose yanditseho amagambo ni amagambo asobanura ibiri muri ayo makarito, ngo ni vitamine ndetse n'inyunganiramirire, inyunganiramirire zifashishwa cyane ku bana bakiri batoya zikunganira ibyo kurya barya.

Igitambaro kirambuye hasi kiriho isahane hejuru y'isahane hariho igikombe, icyo gikombe kirimo umutobe uvuye mu macunga, iruhande rwacyo hari amacunga asataguye.

Ibikombe by'ibirahure bibiri, byose birimo amazi, ayo mazi agiye atereyemo ibyatsi ,ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ni ibyo kwifashisha mu gukora umuti.